Umukobwa wambaye ipantaro y'umweru, agapira k'umweru ndetse n'ikote ry'umweru, arimo araseka yashyize telefone ku gutwi aryamye ku buriri busashe n'amashuka y'umweru, imbere ye handitse ngo ''kuba hoteli yuzuye ntibikwiriye guhungabanya urugendo rwawe.''

Burayidi botike ni iduka ricuruza imyenda itandukanye, wahasanga imipira, amapantaro, inkweto ndetse mo imbere urahabona intebe y'umweru.

Iri ni iduka ricuruza imyenda igiye itandukanye, higanjemo imipira y'amabara meza, amabara y'umukara ndetse harimo n'amatara amurika urumuri ruke.

Iri ni iduka ricuruza imyenda igiye itandukanye, ariko urabona ko higanjemo imyenda y'abamama, nawe rero niba ushaka imyenda waza ugahira aha ngaha nta kibazo.

Icyicaro gikuru cy'uruganda rucuruza imodoka Hyundai, imbere yacyo hari moto itwaye umugenzi wambaye agapira k'icyatsi, motari yambaye ijiri ry'umutuku ndetse bombi bambaye kasike y'umutuku.

Akagera Motozi, uruganda rucuruza imodoka. Abagabo babiri. Umwe yambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara, undi yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ikoboyi. Umwe aramamaza uruganda rw'Akagera Motozi.

Uruganda Akagera Motors, rukomeje kutugezaho imodoka z'ubwoko butandukanye, aho ubagana bakakugurisha iyo wifuza, iyo ari yo yose.

Ku meza hari ibiceri bibiri by'amafaranga y'u Rwanda, kimwe n'igiceri cya makumyabiri ikindi ni igiceri cy'amafaranga atanu. Ibi biceri birakoreshwa cyane.

Ibiganza bibiri bifite amafaranga menshi y'amanyamahanga, agiye aziritse, ku ruhande hari andi mafaranga menshi agiye atandukanye.

Imbere yanjye ndahabona ibiro birimo abantu bane, babiri muri bo baratanga serivise, abandi babiri na bo baje kwaka serivise, uko bigaragara ni muri banki.

Inoti y'ibihumbi bitanu y'amafaranga y'u Rwanda, iriho intore zirimo guhamiriza, handitseho amagambo yo mu gifaransa ndetse hashushanyijeho igihingwa cy'ikawa.

Ushobora kuba ufite umuntu utuye mu bihugu byo hanze, wesitani yuniyoni ni banki nziza ishobora kugufasha igihe uwo muntu yakoherereje amafaranga ukaba wagenda ukayabikuza bitakugoye.

Uyu ni umutobe ukorwa n'uruganda rwitwa inyange, uyu mutobe ugizwe n'amatunda ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, ni umutobe uryoha.

Uruganda Inyange mirike zoni, ni uruganda rutunganya ibikomoka ku matungo byiganjemo amata. Iyo ushaka amata uza hano bakayaguhera ku giciro cyiza.

Igikoresho cyifashishwa mu kubika amata neza, kugira ngo atangirika, cya Nyanza milk industry ltd. Ni igikoresho gifata neza ndetse kigasigasira amata mu buryo bwiza, ndetse umuntu akayanywa atangiritse.

Uruganda rwa Mukamira dairy rukomeje kutugezaho ibikorwa byarwo bitandukanye, iki ni ikinyobwa gikorwa n'uru ruganda kirimo amata ndetse n'inkeri.

MTN irekure, ni uburyo MTN Rwanda yashyizeho bwo kugura megabayiti, ukanze akanyenyeri magana atatu mirongo ine na gatanu, ukagura udahenzwe, uyakuye kuri mobayilo mani yawe.

Banki ya Kigali ni banki nziza iba mu gihugu cy'u Rwanda aho uyikoresha wese aba afite ubushobozi bwo kuba yakura amafaranga kuri banki, atiriwe ajya ku cyicaro cy'iyo banki.

Niba uri umucuruzi ukorera mu gihugu cy'u Rwanda, ugomba kwishyura imisoro kugira ngo nawe ugire uruhare mu kubaka u Rwanda, bityo igihugu cyacu gitere imbere binyuze mu misoro watanze.

Dosiye yerekana aho umucuruzi yagiye yishyurira imisoro, ni byiza kwishyura imisoro kuko byubaka igihugu ndetse bituma ibikorwaremezo byiyongera cyane, nawe jya wishyura imisoro niba uri umucuruzi.

Iyi ni resi y'umucuruzi wishyuye imisoro. Imisoro ni myiza ku Gihugu cy'u Rwanda kuko ituma twubaka ibikorwa remezo birimo imihanda, amavuriro, amashuri ndetse n'ibitaro.

Amafaranga y'amanyamahanga ari mu bwoko butandukanye, harimo inoti z'icumi, inoti ya makumyabiri, iya mirongo itanu, iy'ijana, iya magana abiri, iya magana atanu ndetse n'iy'igihumbi.

Ibiganza bibiri bifite inoti z'amafaranga y'Ubuhinde, ashushanyijeho umugabo Mahatma Gandhi, handitseho ururimi rw'igihinde, handitseho n'umubare magana atanu.

Galakisi foregisi biro, ni iduka ricuruza amafaranga, bacuruza amafaranga yo mu bwoko butandukanye harimo amadolari, amapawundi, amayero, amashiriningi ndetse n'amanyarwanda.

Mu gihe ukeneye serivisi zo kohereza amafaranga mu bihugu byo hanze cyangwa se ukeneye kwakira amafaranga avuye mu bihugu byo hanze, uraza hano bakakuvunjira cyangwa se bakakoherereza ayo mafaranga ushaka kohereza.

Iyi ni inzu icuruza amafaranga, yohereza amafaranga mu mahanga ndetse ukaba wakwakira amafaranga aturutse mu mahanga, ni inzu igufasha ku giciro gito.

Pisine nziza irimo amazi asukuye, aha ni aho kogera. Ku ruhande hateye indabo nziza, haratuje kandi haratekanye.

Inyubako nziza cyane ishashemo amakaro, irimo abantu batandukanye, irimo amatara meza afite urumuri rukeye, ni ahantu heza buri wese yakunda kuhaba.

Inzu ikeyi, harimo intebe, ameza, televiziyo ndetse hari n'amarido meza asa neza, ni ku makaro ndetse ni ku manywa.

Ubusitani bwiza burimo ibiti birebire by'ubwoko butandukanye, munsi y'ibyo biti harimo imitaka yicayemo abantu baba baje kuharuhukira bafata ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya.

Imbere yanjye ndabona inyubako ifite icyumba, aho bakorera amasuku hari aho kwiherera ndetse n'aho gukarabira, ni inzu nziza cyane buri wese yakunda kuhaba.

Inyubako nziza irimo ibiro, hateretsemo intebe abakiriya bicaraho, iruhande rwazo hari aho ubakira agomba kuba yicaye.

Icyumba kirimo intebe, ameza, n'itara, biragaragara ko ari icyumba cyo gukoreramo akazi cyangwa se ibiro.

Inyubako nziza cyane, imbere yaho hateye jaride irimo indabo z'ubwoko butandukanye ndetse n'ibyatsi bisa neza.

Ababyeyi bishimye bari guseka barimo barerekana uduseke tugiye dutandukanye bagiye ba nitwiza kandi turasa neza buri umuntu wese yatwishimira.

Mokashi ni uburyo MTN yashyizeho bwo kubika amafaranga kuri simukadi ya MTN, ukaba watsindira miliyoni ya buri cyumweru ndetse na miliyoni eshanu n'igihembo gikuru.

Icyapa kiriho umukobwa wegamiye imodoka hariho amagambo agira ati twara imodoka yawe ni inzozi zawe.

Umuhanda urimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, harimo moto, imodoka ndetse n'amagare, ku ruhande haparitse imodoka zitari kugenda ndetse hubatse n'inyubako z'amagorofa ndetse hari n'ibipangu bikikije uwo muhanda.

Inyubako ndede y'igorofa imbere yawo hari urujya n'uruza rw'abantu, ni isoko bigaragare ko baje guhaha ibintu bigiye bitandukanye, harimo umugabo wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'ipantaro ya kaki.

Iduka ricuruza ibiribwa byiganjemo imbuto. Harimo urujya n'uruza rw'abantu, ndetse hari imbuto z'amoko agiye atandukanye. Harimo: amaronji, pome, wotameroni, imineke, ndetse n'ibinyomoro.

Inyubako ndende y'amagorofa, imbere yaho haparitse imodoka z'umweru, ikikijwe n'insinga z'amashanyarazi, ndetse hari urujya n'uruza rw'abantu.

MTN Rwanda igiye ifite abakozi batandukanye mu Gihugu. Uyu ni umukiriya ufite telefoni ku gutwi. Iruhande rwe hari umukozi w'umugore urimo aramuha serivisi.

Akazu ka Airtel kari mu ibara ry'umutuku, muri ako kazu harimo umugabo wambaye agapira k'umutuku, hanze hari umugabo wambaye agapira karimo amabara y'umuhondo n'umukara, waje gushaka serivisi.

MTN yafunguye amashami mu gihugu hose. Iyo ukeneye serivisi zabo unyarukira ku ba ajenti bakagufasha mu kubitsa kubikuza, ndetse no kwandikisha simukadi yawe.

Akazu ka MTN kari mu ibara ry'umuhondo, imbere yako hahagaze umugabo ndetse n'umugore, barimo baraseka, barishimye, umugabo yambaye agapira k'umuhondo ndetse n'umugore yambaye ijire y'umuhondo.

Ishyura ukoresheje momo pay, ubu ni uburyo bwiza bwashyizweho na MTN, aho umuguzi yishyura umucuruzi nta mafaranga n'amwe akaswe, kanda akayenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatatu, ushyiremo kode y'umucuruzi ubundi wishyure nta giceri na kimwe bagukase.

Akazu k'umu ajenti ka MTN kari mu ibara ry'umuhondo, gafite abakiriya bagiye batandukanye, barimo abambaye imipira y'imituku, umwe yambaye umupira w'umweru ahetse n'igipu cy'umukara.

Ku cyicaro cya MTN savisi senta, hari abakozi babiri bambaye imipira y'umuhondo, iriho ibirango bya MTN, imbere yaho hari umukiriya yaje kubasobanuza serivisi za MTN.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka MTN, gakikijwe n'abakiriya baje gushaka serivisi zitandukanye z'umuyoboro wa MTN,mu imbere harimomo ajenti uri kubafasha.

Safi ni kampani ishinzwe kugemura ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho umukiriya atumiza ibicuruzwa yibereye iwe mu rugo, Safi ikabimuzanira atiriwe ava aho ari.

U Rwanda rukomeje gutera imbere, aho umuturage aba yibereye iwe mu rugo agatumiza igicuruzwa icyo aricyo cyose kikamugeraho atiriwe ahaguruka aho ari, iyi derivaringi yazanywe n'umumotari.

AliExpres ni isoko ricururiza kuri murandasi ibikoresho bigiye bitandukanye wasangamo: Ama ekuteri, imyambaro, ibikoresho byo kwifashisha mu rugo ndetse n'ibindi byose wifuza wabisanga kuri AliExpress.

Inzu nziza cyane iherereye i Kanombe mu Mujyi wa Kigali, ifite parikingi eshatu ndetse ikaba ifite amarangi y'umweru ndetse ikinzwe n'ibirahuri byiza cyane, iyi nzu ihagaze agaciro ka miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Aha hari inzu, miliyoni magana abiri mirongo ine zishobora kugura mu mujyi wa Kigali, nyaruka wihahire niba ufite amafaranga ageze kuri izi miliyoni.

Inzu nziza cyane, isakaje amabati y'umutuku, ndetse n'ibirahuri bisa neza, iyi nzu ikaba iherereye i Kigali, i Kanombe, ikaba iri ku isoko, igurishwa amadolari ibihumbi mirongo itandatu na bitanu.

Inyubako nziza, iri i Kabeza, ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero butatu. Iyi nyubako ni iyo gukodesha, ushatse waza ukayikodesha nawe.

Inzu nziza cyane y'ibirahuri bikeye, irangi ry'umweru ndetse n'umuhondo ndetse n'amakaro ku ruhande, iherereye i Kimironko mu mujyi wa Kigali, irimo iragurishwa uyikeneye waza ukayireba.

Iri ni iduka ryitwa siti supa maketi, ni iduka ricuruza ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibikoresho byo mu rugo, niba wifuza kuhahahira waza ukahahahira.

Iri ni iduka rinini ricuruza ibikoresho bitandukanye, yaba ibyo mu rugo ndetse n'ibyo umuntu yakoresha ku giti cye, ririmo abantu batandukanye harimo umugabo wambaye umupira w'umutuku urimo amabara y'umukara.

Iyi ni ikarita y'ubwisungane mu kwivuza yitwa mitiweri. Uyu munyamuryango atuye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ni byiza kugira mituweli kuko bituma utarembera mu rugo.

Ejo heza ni gahunda Leta y'u Rwanda yashyizeho, kugira ngo ishishikarize buri muturage kuzigamira ejo hazaza he, bityo azarinde asaza atandavuye. Kwizigamira ni byiza bituma umuturage asaza neza.

Muturarwanda izigamire mu kigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize, kugira ngo amasaziro yawe azabe meza, zigamira ejo hawe wirinda kuzandavura, igihe uzaba utakibashije gukora.

Leta y'u rwanda yashyize umuturage imbere maze imwegereza serivisi zo kwivuza, aha rero ni kwa muganga, urahabona umuturage winjira kugira ngo ahabwe serivisi zijyanye n'ibyo yaje ashaka.

Ejoheza ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize mu Rwanda kirashishikariza abaturarwanda bose kwizigamira muri Ejoheza, kugira ngo bazagire amasaziro meza.

Iduka rinini ryiganjemo ibyo kunywa bitandukanye, harimo ji, amata y'Inyange ndetse n'indi mitobe iri mu bwoko butandukanye.

Aha ni ahacururizwa ibintu bigiye bitandukanye, iyo urangije kureba ibyo washakaga kugura, ubizana hano bakakurebera ibiciro byabyo, bakakubwira ayo ugomba kwishyura.